Inzu nini cyane ariko ubona ko ijyamo abantu benshi, irimo irakamo udutara, irasakaye ntabwo bakicwa n'izuba ndetse hasi harasa ubururu, intebe ni imihondo, bamwe bafite n'uducupa tw'amazi, turi kubicira icyaka igihe bumva bakigize.

Abantu cyangwa se abategarugori bamwe baricaye n'abagabo abandi barasutamye no guhagarara n'abo barimo, inyuma y'abo hari ikirango kiriho amagambo ndetse yanditse mu ibara ry'umweru cyo gisa ubururu, imbere hari ikirabo cyateretse gituma aho bari hasa neza.

Inama yateranye gusa wagira ngo ni iy'inkundura nkurikije ukuntu umubyeyi yifashe ku myanya ndangakumirwa, hirya hari abagabo na bo bubitse umutwe, babuze icyo bavuga ahari. Bari kureba mu matelefone yabo. Uyu we ari kwandika, abandi bafite amakaye n'amakaramu, amazi bayabahaye kugira ngo abice icyaka.

Umwari mwiza cyane, ubona ko akeye atemba itoto, asa n'uwanyweye amata biragaragara ndetse imisatsi iraboshye, agakanzu gasa ubururu ho gatoya, arimo araganiriza abantu ku nsanganyamatsiko tutabasha kumenya iyo ari yo.

Umubyeyi wambaye imyenda isa ubururu ndetse hakurya hari umugabo na we warengejeho agagakoti k'umukara kimwe n'intebe, bicaye mu zizengurutsa, bafite amakaye n'amakaramu. Bisa n'aho bari kwandika imyanzuro iri kuvugirwa hano cyangwa se andi makuru, imbere yabo hari uducupa tw'amazi.

Hari amazu aba akomeye meza cyane yubakiwe kuba yahuza abantu runaka benshi ngo haberemo inama. Rero harimo abasore bicaye ku meza acyeye cyane, imbere yabo hagati harimo uturabo cyangwa se ibiti. Bafite za mudasobwa n'uducupa tw'amazi.

Bateranye bari kwiga ku kibazo runaka cyaba cyugarije ubukungu muri rusange cyangwa se abaturage, ni abagabo n'abagore bafite za mudasobwa bari gusomamo imyanzuro cyangwa se bareberamo ibindi bintu bitandukanye, ndetse babahaye n'amazi yo kunywa.

Abasore ndetse n'abandi bantu batandukanye, ubona ko imbere hari inkumi irimo irabasobanurira. Bafite za mudasobwa imbere yabo, abandi bafite udukayi barimo barandika n'ufite amazi impande ye, icyaka ni kimwica aranywa.

Abapapa ubona ko basa n'abakuze bamwe umusatsi barawogoshe bafite isuku ku mutwe. Abategarugori biryamiye na bo uducupa tw'amazi turi imbere yabo. Bafite amakayi n'amakaramu. Barikwandika imyanzuro ihavugirwa ndetse babahaye n'amazi yo kwifashisha.

Urubyiruko rurimo abantu bakuze bombi baricaye, ameza arambuyeho ibitambaro by'umweru, bashyize terefone hasi impapuro na zo barazirambika uducupa tw'amazi two batubahaye kugira ngo bice icyaka.

Abategarugori bicaye ndetse batimaje, umwe ari kureba impande ibusanyije ni y'undi, imbere yabo hari uducupa tw'amazi bashobora kunywa, intebe nazo zitariho abantu ariko hakurya ndabona abandi.

Abapapa bakuze bigaragara harimo n'urubyiruko nk'uko turikubibona baricaye rero bateze amatwi ibiri kuvugirwa hano hantu. Ndetse hakuryara hari ibitambaro bifunguye byanze gukingiriza amadirishya kugira ngo urumuri rwinjire n'akayaga.

Apapa ubona ko bakozeze, bose bambaye imipira y'icyatsi; bicaye imbere naho inyuma yaho hari urubyiruko rwambaye iy'umuhondo gusa,a bandi tugarutse imbere gatoya hari inzego z'umutekano zihagarara n'ababyeyi bambaye imyenda ya gipolisi babahaye n'amazi yo kunywa

Umupapa ukuze arimo aganiriza abantu, ku meza y'ikirahure ariho amakaye yabo ndetse n'agacupa k'amazi, inyuma hari umubyeyi ubona ko yafunze igipfunsi bisa n'aho akorera inzego z'umutekano ndetse n'undi wambaye imyenda y'imituku.

Abapapa ndetse n'abategarugori bicaye ku ntebe zisa imikara, uducupa twa ji n'amazi batubashyize impande, ubwo icyo bari bubashe nicyo bari bufate hano, bari mu nama yiga ku bintu runaka.

Urubyiruko rwariyemeje ruravuga ngo turashoboye kandi tugomba gukora cyane, igihugu cyacu tukagiteza imbere. Bambaye imipira y'umweru, baricaye, buri umwe afite agapapuro kanditseho izina rye nk'uko bigaragara, amakayi n'amakaramu, amazi yo kunywa igihe bumva icyaya kibishe, na ho hari umwari ufite imisatsi irambuye, ubahagarikiye bisa n'aho afite ibyo ari kubereka uko bikorwa.

Abantu bamwe ni abapapa bandi n'abagore bari kuganira ku kintu runaka, ndetse baricaye bamwe bahetse abana nk'uko bigaragara uwambaye umupira w'umutuku arimo arabaganiriza, ku ngingo zitandukanye barimo barumva bamuteze amatwi.

Abapapa ubona ko bamwe bageretse akaguru ku kandi, amakayi n'amaterefoni bayashyize ku matako, baripfumbase, ariko inyuma hari n'abandi benshi, ahantu bicaye ni mu dutebe twiza tw'umukara ubona ko dufite n'ahantu ushobora kurambika amaboko.

Abasore ndetse bivanzemo n'abategarugori ariko bo ni bake cyane nkurikije ukuntu ndibonamo batari benshi, rero bicaye bafite za mudasobwa imbere yabo bisa n'aho bakurikiye, intebe nziza cyane ubonako zihenze rwose.

Abagabo ubona ko bihurije ahantu hamwe, bambaye amakoti y'umukara rwose, amashati y'umweru, umwe yamanitse akaboko, hakurya hari ikirango kiriho amashyaka ari mu mabara atandukanye, gusa iryo mbasha kubona ni irya Efuperi Inkotanyi.

Abana ndetse n'abantu bakuru inyuma hari upapa uri kuhatunguka aseka cyane, bigaragara ko ariko baganiriza n'urubyiruko. Hari n'abandi bahagaze. Gusa abicaye ku ntebe z'umutuku bo baguwe neza, banakurikiye.

Urubyiruko rwabaye rwinshi cyane nk'uko bigaragara agasatsi bano bagasokoje bose, bambaye imipira y'ubururu, inyuma hari umubyeyi uri guseka cyane yishimye ndetse n'umusore na we wipfumbase, bigaragara ko hari inama iri kubera hano yiga ku bintu runaka, ishobora kuba yakemura ibibazo byugarije isi muri rusange, n'iyo bitahita birangira ariko yabigabanya, imyanzuro yafatirwamo.

Imbuga ubona ko ababyeyi bicaye mu twatsi barambije, bamwe barambuye n'ibitenge rwose abandi babyifubitse, hahagazemo umutegarugori bisa n'aho ari kubaganiriza, munsi y'ibiti agacucu ni kose ndetse hari n'amazu meza.

Ibitambaro by'icyatsi ndetse n'umuhondo birashinze, ibindi birahatambitse. Hicayemo ababyeyi ndetse bambaye ibitenge, ubona ko bakurikije umuco wabo gakondo, ku ntebe z'umweru, utwatsi duteye hasi, bari kumva ibiri kuvugirwa hano.

Iyo inama ibaye ibigomba kwiga ku kibazo runaka kigakemuka panolade nehowad harimo abanyamakuru ndetse bamwe baricaye barimo barumva banareba muri za mudasobwa zabo ibintu bari kwandika ndetse abafite uducupa tw'amazi bifashisha kugira ngo icya kane kibicabashe kuba bayanywa.

Abari batatu ubonako umwe yambaye agashati k'umutuku yicaye hagati n'agapapuro karemereye kandiditse izina rye kimwe n'abandi udukombe cyangwa se uturahure n'uducupa tw'amazi bari bunywe igihe bumva bagize icyaka.

Abagabo ubona ko bamwe bifashe ku myanya ndanga kumirwa cyangwa se munsi y'akananwa, za mudasobwa zibari imbere ndetse barimo bararebamo amakuru atandukanye, uducupa tw'amazi batubahaye kugira ngo babashe kuba bayanywa, turabizi ko ari ingenzi cyane, atuma umuntu amera neza, icyaka kigashira.

Urubyiruko ndetse n'abadamu muri rusange bafite amahene, zambaye ibiziriko kugira ngo zitabacika, bisa nk'aho ari ubu ubufasha bwari buje buri muntu bari kumuha icyororo kugira ngo abashe kwiteza imbere.

Abasore cyangwa se abandi bari gukoresha ikoranabuhanga nk'uko za mudasobwa zibigaragaza imbere yabo ariko bari mu nama, bishoboke ko bari gufata imyanzuro runaka cyangwa se hari icyo bari kwigahocaye ku ntebe z'imikara imbere hateretse amazi meza cyane ashobora kumpa igihe wumva bagize icyayaka.

Abapapa batatu ariko babiri bambaye imyenda isa, amashati y'umweru; bose bicaye ku ntebe z'imikara bafite amakaye cyangwa se impapuro n'uducupa tw'amazi, ariko ni kamwe babahaye sinzi abandi aho badushyize.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe hasi harasa umutuku, intebe nziza cyane bicayeho z'imikara ameza y'ikirahure ariho uducupa twamazi twinshi tw'inyange imifuniko nayo ni ubururu inyuma hari izindi z'icyatsi n'ababagaragiye.

Abapapa ndetse n'abamama bateranye, bicaye ku dutebe tw'umutuku, ahari ibitabo byabo cyangwa se amakayi na za mudasobwa hari igitambaro cy'umuhondo. Uducupa tw'amazi batubahaye kugira ngo baze kwica icyaka.

Abapapa ndetse n'ababyeyi ubona ko bicaye bombi bambaye utugozi tw'ubururu mu ijosi turiho amakarita abaranga bari kuganira, intebe z'umweru umuntu umwe igikapu yagishyize ku mpande yegereye akaguru ke, ameza ariho ibitambaro by'umukara n'amazi yo kunywa.

Aba papa ndetse ubona ko bicaye bafite za mudasobwa na za telefone, indabo zibari imbere ameza n'umutukutebe n'umukara, bambaye amakoti banigirije udushati, inyuma hari ibirango by'ubururu byanditseho kigali yacu ndetse inakeye.

Urubyiruko rwiwicaye ku ntebe z'umweru ubona ko bisa neza, bambaye imipira y'icyatsi abandi ni ubururu, higanjenzemo abasore n'inkumi, harimo umwe uhagaze bisa n'aho ari kubaganiriza, hari inkingi zometseho ibintu.

Abapapa ndetse n'abategarugori bicaye ku ntebe zirambuye ibitambaro by'umuhondo inyuma abandi bafite n'amezaza dufatwa amazitobahaye kugira ngo baze kwica cyayaka ndetse bafite amakaye cyangwa se amatelefoni barimo barandikaho ibintu runaka biri kuvugirwa hano.

Umwari cyangwa se umukobwa arimo aramanuka yerekeza ahantu hari imiryango ifunguye isa icyatsi ndetse mo imbere harimo abantu, iyo haje hano rero ba kubaka ibyangombwa bakabigusohorera ku gapapuro birimo iby'uko utakatiwe n'inyoko, uri ingaragu n'iby'amavuko.

Gerageza ujye ukora ibintu kubushake, bigaragaza ko iyo ufite ubushake unakorera ibintu ku gihe, ibyo abantu bavuga nk'umusoro wawe ni ingenzi cyane ku gihugu wari inkunga ikomeye kubera ko ushobora kuba wakubaka imihanda amahorera bagatangira abaturage mitiweli nk'uko bizwi hano rero barimo barakwibutsa.

Umunara muremure ubona ko ugiye ufite ibisahane biri hejuru, bidufasha kuba twahamagara iwacu mu cyaro cyangwa se mu mahanga, tukaboherereza amafaranga bagahaha ibyo kurya, ndetse n'imyenda bakambara. Uteye uturangi tw'umweru n'umutuku harimo insinga zimanutse hasi zerekeza aho babigenzurira.

Uburyo bushya bwaje bwo kubyikorera ku irembo bwakemuye ibintu byinshi cyane ndetse n'abantu bwaraborohereje aho twagorwaga no kujya gushaka ibyangombwa kwa mudugudu cyangwa se tukajya gushaka abandi bayobozi tukamara icyumweru tubiruka inyuma ubungubu rero uhita ubibona byoroshye nk'icyemezo cy'uko utakatiwe n'inkiko n'ibindi.

U Rwanda rukomeje guca agahigo, aho rwagiye rugirana amasezerano n'amakipe akomeye mu bihugu by'i Burayi, rero tugerageze duteze imbere igihugu cyacu. Uyu ni umukinnyi wakiniraga ikipe ikomeye yitwa Arsenal yari aje gusura rero igihugu areba ibigitatse.

Iyo habayeho ikibazo runaka ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kimenyesha abo bireba. Aha rero nuko uko ubufasha bwahabwaga abantu batwara ibinyabiziga bwari bwemewe bari kubamenyesha ko bwimuriwe i Masaka.

Irembo ni urubuga rwashyiriweho abaturage ndetse rukoreshwa na leta muri rusange n'inzego zitandukanye, aho usanga ushobora kwakayo ibintu byinshi cyane birimo ibyangombwa by'uko utakatiwe n'inkiko, iby'ubutaka, ibyemezo ndetse n'ibindi.

Umusore wambaye ingofero y'umuhondo, ishobora kumurinda wenda igihe ari mu kazi, bitewe n'ikintu gihanutse kikamwikubitaho, arimo arereka abandi uburyo ikoranabuhanga rimeze, aho inyuma yaho hari umusore wiyambariye wundi umupira w'ubururu n'ipantaro.

Turashimira Leta yo yahisemo ikavuga ngo reka dushyireho urubuga rwitwa irembo, ruzafasha abaturarwanda bose kujya bashakiraho amakuru ndetse n'ibyemezo bitandukanye, birimo iby'ishyingirwa iby'ivuka ndetse n'iby'uko basezeranye cyangwa se batasezeranye.

Umunara ufite imigozi iwuziritse nkuko bigaragara, hejuru igicu kirasa ubururu cyangwa se ikirere ndetse nta mvura irimo nkuko bisa. Rero uyu nguyu udufasha kuba twahamagara mu rugo cyangwa se mu mahanga.

Akenshi badushishikariza kuba twakwirinda abatekamutwe baduhamagara cyangwa bakatwoherereza ubutumwa bugufi ngo batwoherereje amafaranga kandi ari ibihuha. Tugerageza tubyirinde, ikindi kandi nawe niba uzi ko hari imirongo utagikoresha yanditse ku indangamuntu yawe wayisibisha hakiri kare.

Ubungubu ibintu byaroroshye ,leta y'u Rwanda irimo iragenda ihugura abantu ndetse n'abanyeshuri bagatangira bazi gukoresha mudasobwa. Bano rero bambaye impuzankano n'amashati y'umweru ndetse hari n'abari kubererekera ukuntu bikorwa.

Abapapa ubona ko basa n'abakuze barimo bariga gukoresha ikoranabuhanga rivanze n'urubyiruko, za mudasobwa ni nyinshi imbere yabo, hakurya hari abari babiri bari mu isomero cyangwa se ahantu babika ibitabo biba birimo inkuru runaka.

Leta yashyizeho uburyo bwiza cyane bufasha abantu batandukanye kuba bagira ibyangombwa, birimo iby'uko batakatiwe n'inkiko cyangwa se kwiyandikisha ko utwara, uruhushya rw'ibinyabiziga nk'uko bisanzwe, rero tugerageze tujye tubyubahiriza.

Umunara ukunda gufasha abantu benshi cyane natwe muri rusange, kubera ko utuma tuba twakoreza amafaranga cyangwa se tugakoresha imbuga nkoranyambaga nk'uko bisanzwe, kugira ngo tumenye amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Uyu rero ni ibyuma bishyize amarangi y'umutuku n'umweru, hariho insinga zishobora kugutema, igihe wazikozeho.

Ntabwo ariko twagakwiye kumera, umuntu asigaye agwa kuri ubu cyangwa se yakora ikindi kintu bakamufotora bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga ugasanga bibaye induru ariko ntabwo kari mu umuco uturanga bano rero nabo ni abari nibo bagaragara imisatsi barayifunze bari gufata amashusho.

Umusore yambaye akagofero k'umukara n'ishati y'umweru, afite terefone mu ntoki, yajyanishije n'umwenda yambaye, arimo arakoresha ikoranabuhanga nkuko bigaragara. Inyuma ye rero hari ibirango bigiye bihatatse, bisa naho biri kwamamaza ibikoresho bitandukanye.

Umwana ako afashe ku byuma bimwe bisa umweru ibindi n,umuhondo hasi hari ibirango by'ubururu n'imbere harimo umugabo wicaye ku ntebe bisa naho afite ikintu runaka agiye gufasha ariko si umwe ari kumwe na mugenzi we.

Igipangu kirafunguye rwose bari guhereza banti ikaze kugira ngo nabo baze bashake ikintu bakoramo cyangwa se bakore ubushakashatsi butandukanye bitewe n'ibihakorerwa harimo: intebe zo kwicara, za mudasobwa nyinshi cyane byose waza nawe ukigeragereza.

Ni kenshi bahoraho badushishikariza abatekamutwe bahora badusaba amafaranga, baduhamagara ngo barayayobeje, simukadi ngo bajye kuzifungisha, tugomba gushishoza nk'uko bari kubidukangurira hano. Ikindi kandi nawe niba uzi ko waba ufite semukadi utagikoresha wajya kuzizibisha hakiri kare.

Amadirishya ni umukara; arafunguye hariho utwuma tumanuye nta mubiri wacamo, ndetse n'ibirahure biteye akarange ndetse hari itara riri hejuru rimurika nijoro igihe bwije.

Hari amapironi adufasha kuba twabona umuriro nk'uko bigaragara hano ateruye kiraya gishobora kuba cyongera cyangwa se kikawugabanya igihe ubaye mukeya iri mu biti rero ndetse n'utwatsi duteye kuruhande n'umuhanda.

Hari insinga ubona ko ari ndende zishobora kuba zatuma umuntu wese abona umuriro ako kanya bikaba biva ahantu hamwe bikajya ahandi niko tubizi rero ni amapoto cyangwa se amapirone uyite uko ushaka yegereye amazu y'ubucuruzi bitewe n'ukuntu agaragara hakurya hari iminara.

Umuhanda w'igitaka, ubona ko urimo abantu, abari ndetse n'abasore, abamotari bari kugenda bivuze ngo ni nyabagendwa, hakurya hari ahantu hatuye umujyi rwose, iyo uhahagaze uba uhitegeye, uriho amazu y'umweru.

Utwatsi ndetse uanakokeye hakurya hari inzu nini igi ry'icyatsi ndetse hivanzemo n'ryumweru hariho ibirango nabashije kubona ibiti bihari ndetse n'amamodoka menshi maremare na ari yayandidi abashapayakora urugendo runini cyane akava mu Rwanda ajya Tanzania.

Insina ni nziza cyane kubera ko heraho ibitoki tukabasha kuba twakenga tugatara imineke cyangwa se tukazikoresha ibindi bintu bitandukanye, amakoma yayo bashobora kuyatekeramo kawunga ku bantu babizi, rero tujye tuzifata neza tuzihinge nk'uko zigaragara hano.

Harashashe utubuye twiza cyane nubwo tunyerera, indobo isa umukara bamenamo imyanda ndetse n'aho guca heza hari ibintu rero bifasha gutunganya umuriro ahantu hatandukanye kugira ngo ubashe kuba bagera ku baturage utuzitiro cyangwa se utugozi dusa umutuku n'umweru tuhatambitse.

Amapiloni ku bantu bayazi ni meza cyane, kubera ko akadufasha kuba insinga z'umuriro zatugeraho. Rero ibi ni ibyuma biba bigiye biterateranyije, bafata umwanzuro bakaba babishinga mu isambu y'umuntu runaka ariko bakamwishyura, uriya musore rero uhahagaze wambaye aka gofero k'umweru niwe uyubaka.

Umuhanda uriho ikintu gifotora abakoze amakosa ndetse n'aho ushobora kujugunya imyanda igihe ubaye uri kwinywera amazi agacupa ukabura aho ugashyira. Inyuma yaho hari ibiti byiza cyane, hakurya hari imodoka ziri kuhaturuka.

Ku muhanda ushobora kuhahurira n'ibintu bitandukanye ariko hano ho nta kinyabiziga kirimo. Utwatsi tutaramera neza, bisa naho twabuze imvura, ibiti na byo ni uko. Hari igicu nkurikije ukuntu ndi kubibona, hepfo hari akayira wagira ngo abaturage ni ho bitahira.

Amapironi maremare ku bantu bayazi ni ayangaya aba ari ibyuma biterateranyije bikaba ikintu kirekire nyine kikajya cyambukana insinga kizivana mu karere kamwe kizijyana ahandi kugira ngo uduce tumwe na tumwe tubonana umuriro nk'uko bisanzwe harya rero hari amazu bigaragara ko mu mituririre.

Ibinyabiziga bibiri kimwe n'umweruru ikindi kijya gusa umukara hakurya hari ikindi cy'umukara ndetse abantu benshi babona ko bari baje kwihahira cyangwa se kuba babikuza amafaranga runaka bayabikije nkurikije ibirango byo kubona hakurya bati motukuziti y'irangi ry'umuhondo.

Akamodoka k'umutuku mbonako karikwitambukira, inyuma yako hari umusore wambaye umupira w'umukara, hakurya hari ibyatsi bihateye n'ibirango byerekana ko ari hamwe bagenzurira imiriro y'amashanyarazi.

iminara cyangwa se amapironi yubakwa n'abantu nk'uko bigaragara hano ariko aba ari ibyuma bagenda baterateranya bikabyara kiriya kirekire tubona cyaba gifashe insinga kikazamukana kizivana mu kandi karere kikazigeza ahandi bano rero bambaye imyenda y'akazi amagofero y'ubururu ndetse baraniziritse kugira ngo babashe kuba batagwa.

Umumotari ahetse isanduka inyuma y'icyatsi, ingofero imurinda ibyago mugihe yakoze impanuka arikomereje rwose banakashyiriya abantu batumije ibyo kurya iwabo kuko kirabigaragaza kiriya kigo kiriho ibinyabiziga nabyo be imbere ye n'abanyonzi bari gusunika amagare gake gake.

Umumotari yambitse umubyeyi bitewe n'uko bigaragara, ingofero imurinda ibyago igihe hakoze impanuka y'umutuku, inyuma hari aho imodoka zihagarara mu gihugu rusange nk'uko iriya ari ho ihagaze, n'abantu basa n'aho bahagaze na bo bari kureba ibintu runaka biri kuhabere.

Inzu ifite amadirishya abiri ari kugaragara, harimo ibirahuri by'umukara ndetse arasa umweru hirya har'ikirango kiri mu ibara ubona ko ar'umuhondo hariho icyapa risa icyatsi n'ikirere nacyo gisa n'igisa nabi imvura igiye kugwa.

Hari ibyuma biteranywa n'abantu ubona ko biba bisa neza, kino rero na cyo ni cyo, kibasha kuba cyafata umuriro kikongera kikagaburira agace kanini, abasore bambaye imyenda y'akazi, ingofero z'umuhondo ndetse n'ibisarubeti bisa ubururu, ibiti bihari na byo biri kubafasha kugira ngo bahagarareho banurire.

Umunara ubona ko umeze neza ndetse ahazitiye hariho ibyuma hejuru by'insinga byizingazinze ushobora kurira ujya nko koreramo ikintu runaka bikagutema, birabujijwe rero kuhegera utaje kuhakora cyangwa se udakoramo.

Abasore ubona ko bari kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyangwa se bari gusesengura ibintu runaka, kubera ko hakurya hari icyuma banyuzamo umuntu akaba yagaragaza ibice by'umubiri byose bifite ikibazo.

Mu bitaro haba harimo abantu batandukanye, rero ushaka kumenya impamvu uriho, niho wasura ha mbere, wajya kureba wahita ushima Imana ko wowe ukiri muzima, ariko tujye twibuka no gusengera aba baryamye kuri ibi bitanda bifite amashuka y'umweru, ndetse harimo amarido y'ubururu.

Harashashe neza, harakeye ,ndetse hari ibyuma bishinze bigenda birangira abantu biriho utuntu tw'ubururu, uba ugomba gusoma ukamenya aho ujya ,hakurya hari amadirishya afunguye utwatsi tuhateye dutuma hasa neza.

Utwatsi dusa nu twashizeho, inzu yubatse neza ndetse hamwe hagiye hanase karite irangi ry'umuhondo amadirishya na yo n'ibirahure biragaragara ko bifite isuku icupa ry'umutuku rimwe rizimyajya ahantu habafashwe n'inkongi.

Hameze neza cyane urabona ko ntaho hahurira n'icyondo, ibyuma bishinze bifashe amabati n'amatara hejuru y'umweru, hakurya hari inzu ifite inkingi zihagaze ku mabuye, ndetse ibirahuri n'amadirishya, umuryango urafunguye nawe wakinjiramo ukareba.

Ni byiza ko nawe niba wubaka inyubakojya uge ugerageza ushyiraremo ahantu hasa neza n'intebe zijyane n'uko isa. Izi rero nazo ni zo zicaza abantu benshi; n'akandi kagendaho abantu bafite ubumuga. Amadirishya arafunguye akuka kari kwinjira n'akayaga.

Umuhanda n'umurongo ucagaguye ntiryagaragara ko abanyamaguru hateye ibirangowu han mu gataka kanyine byanditseho kabgayi nyine ibitaro byaho n'ikindi kirika ry'umutuku n'umweru cyerekana ahantu ko hari umuhanda ukomezas n'akagaruromu zitarayicana'igi bwije hakurya hari izo nzu mubona nyine.

Abwo akavura kari kamaze kugwa rwose hakurya hateretse agakona karimo akabara k'umweru n'imodoka nyinshi, umubyeyi n'undi musore nabo bifubitse kugira ngo imbeho itabica, hari amazu ari imbere yabo n'ibiti afite amabati y'umutuku.

Ibitaro ni ingenzi cyangwa se ibigo nderabuzima nk'uko tubizi, bibasha kuba bivura abantu, bikabitaho ndetse bikaba byatuma iminsi yicuma ikigira imbere, hano rero ni ibya Kabgayi ushobora kubizamo.

Umubyeyi arabyibushye ariko ntabwo bikabije arahagaze yiyambariye akenda keza cyane n'agakanzu, inyuma ye hari ibintu by'umukara bimanitse n'igikuta giteye uturangi turirimo mweru arimo araganize abantu rero ku bikorwa runaka cyangwa se ibyabateranyirije hano.

Iyo ukoze ibyaha urabihanirwa hari ahabugenewe rero bakujyana ugasanga umazeyo igihe jya witwara neza kugira ngo ejo utazahisanga nawe kandi bajye bavuga ngo mugaze imbohe uvuyeyo ntukamuhe urw'amenyo iri rero ni igororero rya musanze bajyanamo abo ngabo.

Ababyeyi bashiritse ubute turavuga ngo reka tugerageze twige amashuri yacu kazatubere impfabusa, twereke ababyeyi ko hari icyo twabagejejeho rero niko guhitamo kujya kwiga aya mategeko. Hano rero barakunganira ubaye urengana, barakurenganura, bakakuburanira, ibintu bikagenda neza.

Mu rukiko niho hantu hakora ibimenyetso gusa, amarangamutima ntayahaba. Rero tujye twitonda. Bano ubona ni abagabo bane bicaye, uyu ni umunyamategeko wabo ubunganira kugira ngo abarenganure niba bararenganyijwe.

Abategarugori n'abagabo bahisemo kuvuga ko tujya turenganura abantu ndetse tubarengere igihe runaka , rero iyo ubaye uhuye n'ibibazo ugakenera umuntu ukunganira mu mategeko urabitabaza bano wambaye imyenda y'umutuku.

Mu rukiko hakora ukuri n'ibimenyetso nta by'amarangamutima cyangwa byaturaziranye nkuko tubizi twese tunabyemeranya. Uriya mubyeyi rero nawe wambaye imyenda y'umukara ndetse n'aba bombi bambaye ibisa barikurenganura uno muntu cyangwa se n'umupapa uri hano wambaye imyenda isa iroza.

Umubyeyi imisatsi yarayinyereje rwose, ni myinshi, yambaye ikanzu y'umutuku n'umukara n'umweru, ubona ko ari iy'abantu bunganira abandi mu mategeko. Ubaye warahuye n'ikibazo runaka wamwegera akagufasha.

Iyo ukoze ibyaha urabizira. Hari amagorero yabugenewe ajyanwamo ibisambo cyangwa se abajura birirwa bambura abantu, abatubuzi, inkozi z'ibibi zose nk'izo ngizo, hano rero na bo ni bo ariko bigaragara ko bari basohotse hanze ngo barebe ukuntu akazuba karasa.

Umupapa agasatsi ke yarakogoshe rwose, asigaho gakeya baramuconga asa neza ariko yakambije isura biragaragara, yambaye umwenda w'umutuku harimo akantu k'umweru kanyuzemo, ubwo bigaragara ko bano ari abantu bunganira abandi mategeko.

Umupapa usa n'uw'ukuze nk'uko bigaragara, amaso ntago akire bayashyizemo utwuma tumufasha kugirango ngo ajye asoma ibitabo ndetse umusatsi yarawuhabiye umazeho n'ubwanwa, n'uko, yambaye ikanzu y'umutuku ndetse iriho utuntu tw'umukara igaragaza abantu bunganira abandi mu mategeko.

Umu papa ubona ko ari guhumuriza uwo muntu usa n'ukuze ndetse imyenda yambaye n umukara n'umweru undi yambaye roza bigaragara ko bano bari mu rukiko bari baje kubu n'uwari kuryozwa ibyo yakoze.

Ni ukora amafuti bazayakuryoza ndetse unabizire nk'uko bizwi urugero, kwiba, kwica, gukora ibibi bitandukanye. Jya ugerageza wirinde kubera ko iyi ni igororero bakujyanamo ugaruka warabaye muzima rwose, iherereye i Rubavu.

Abagabo babiri bakuze rwose bambaye imyenda isa y'imikara ubona ko bateruye ikintu runaka ariko bigaragara ko hano ari abantu bunganira abandi mu tegeko. Niba urengana baza bakakuburanira ukabaja kuba atahamukora.

Abagororwa bafite imyenda yabo cyangwa se impuzankano bambara ku buryo nubabona urahita ubamenya, hano bicaye mu ntebe z'imikara nziza cyane buri imwe n'ikayi irimo imyirondoro yiwe n'icyo azira bigaragare ko ari mu rukiko.

Ubundi buri nyubako cyangwa se insengero, ibigo by'amashuri n'ahandi hantu runaka, bakwiye kugira ibintu bibatabara igihe umuriro ubaye mwinshi kandi ugiye kwangiza ibyabo byose. Rero aho kugirango bihombe wagura kino kintu, gifite umupira muremure w'umutuku, aho uhita ufungura amazi ukagenda ugatunga hafashwe n'inkongi ibintu bikagenda neza.

Umuhanda ikinyabiziga kiri kuza, ndetse n'ikindi cya polisi gisa umukara n'umweru, gikurikiwe n'umatari, ibiti hakurya, ndetse aha ni ahantu abanyamaguru bagendera, rero utegetswe kujya ugenda witonze.

Imodoka nziza cyane, icyeye y'umweru ifite udutara tw'ubururu turi kwaka imbere no hejuru gusa ibigaragara byo hari hariya turi kubona ku mutwe wayo ni impuruza niko bayita, ibirahure byayo urabonamo ibiti ndetse n'igipangu kiri inyuma.

Hari inzego igihugu cyatworohereje kizishyira hafi yacu kugira ngo nitujya duhura n'ibibazo, tujye kuzitangaho ibirego, zidushakire cyangwa se zidukurikiranire aba banyabyaha baba baduhemukiye, iyi rero ni ikirango cyerekana ko hano hafi hakorera polisi y'igihugu cy'u Rwanda.

Amatafari aho bayateye ahandi yararimbutse hari igitaka, hakurya hari akazitiro k'icyuma gasa umukara n'umweru, wakubita amaso uharengeje hari imodoka zitandukanye ndetse n'izindi nzego z'umutekano.

Hari imodoka zabugenewe zigenda zifasha abantu kuba zazimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, nk'uko bigaragara iriya na yo niyo, ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu anyuzemo, inyuma hari ibiti ,inzu ndetse n'izindi zitwara abantu mu buryo bwa rusange bigaragara hano.

Abasore batatu bateruye umupira w'umutukubona ko wambaye ingofero ndetse n'imyenda y'akazi rwose irimo umukara n'icyatsi, rero bari gusohora amazi menshi cyane ayan ngaya azimya umuriro ukomeye ndetse akaba yanarinda ibintu kwangirika.

Tujye twirinda kwegera iyo modoka bitwara ibikomoka kuri peteroli kuko iyo hagize ikintu kiyifataho cyerekeranye n'inkongi cyangwa se icyabatsi cy'umuriro bihita byangiza aho biri bigaturika, rero hano bisa nahoaho cyari gitangiye gucumba bahita bitabaza abantu babizimya.

Inzego z'umutekano, ziratureberera kandi zitwitaho, iyi rero n'imodoka ya polisi nk'uko bigaragara. Ifite bya bicupa bizimya umuriro igihe ifashwe n'inkongi. Hakurya yari uduti tuhateye, ubusitani burimo ibindi binini byikujije.

Amabuye ashushanyije ahangaha, bigaragara ko wahashyira imodoka ndetse hakurya hari umusore uhagaze wambaye imyenda y'imikara, intebe n'ameza bisa neza cyane, inzugi z'ibirahure bisa n'uwazifunga ntihagire umuntu upfa kuzifungura.

Uyu mupira w'umutuku rero uba warahujwe n'amazi ku buryo iyo ahantu hagize inkongi ihataka cyangwa se ihafata bahita bawurambura ubundi bagafungura bakagerageza kuwuhosha. Ni ngombwa ko abantu bafite ibigo by'amashuri mwajya muwushyira aho hafi.

Abaturage cyangwa se abantu bafite ibigo by'imari, iby'abikorera, iby'abihaye Imana, mugerageze mujye mutunga iri cupa kubera ko rifasha guhosha inkongi y'umuriro ibaye ibafashe cyangwa se ije gutwika ibintu runaka, ibikorwa byanyu mwagezeho.

Abasore n'inkumi ubona ko bari kurinda umutekano w'abantu, bakorera inzego z'umutekano, bambaye impuzankano z'imikara, bafite imbunda, inyuma hari imodoka cyangwa se ibinyabiziga bibatwara, nyine bibavana hamwe bajyana ahandi.

Tujye dushima inzego z'umutekano zitureberera umunsi ku munsi kubera ko ni byiza cyane, rero aba bambaye impuzankano z'imikara nibo, bari kubisikana n'umunyegare abacaho mu muhanda. Hakurya hari biyemeje kwikorera ndetse baravuga ngo reka tujye dufasha abaturage tubegereze kuba twabaha amanite ku kubabikuriza n'ibindi.

Abantu bakunda guhora bakwepana n'inzego z'umutekano cyangwa se bagakorera ku jisho, bakiyumanganya kuko bazibonye. Rero ariko iyo ufashwe urahanwa. Akenshi abo ngabo ni abantu, batwara ibinyabiziga cyangwa se abashoferi. Aba rero zino modoka ziri hano, zishinzwe kugenzura igihe ukoze ayo makosa ukabihanirwa.

Akayira k'abanyamaguru bari kwitambukira ubona ko umwari n'ishakoshi na we yakataje, hari inzego z'umutekano zo mu muhanda ziba zihari, zireberera abaturage kugira ngo ukora amakosa bamuhane ayahanirwe.

Imodoka nini cyane ubona ko ndetse n'abantu bariho bambaye imyenda y'akazi barambuye ibikoresho byinshi babishyira hasi batumiza ababyeyi, abana, ndetse hirya hari ikindi kintu cy'umutuku gihari batwaramo ibintu bitandukanye, ibiti birahari na byo.

Ni byiza ko twajya dutunga bino bintu bidufasha kuzimya umuriro kuko ni ingenzi cyane biradutabara aho biri ngombwa birinda ibikoresho byacu ayamacupabu ry'umutuku n'irindi ryo gusa umuhondo niko kazi kayo nuriya mupira munini nawo ufungura amazi ukawukurura uba muremure ukawugeza aho ushaka kuwujyana.

Mu Rwanda bagira gahunda ndetse inzego z'umutekano waho zirakora cyane nkuko bigaragara hano, aba ni abapolisi rero bamwe bafite imbunda ndetse n'udukayi mu ntoki, uwo ubahagarariye bisa naho ari gusoma imyanzuro runaka, inyuma yaho hari ibizu rero bigaragara ko ariho aba bacumbitse.

Abantu benshi ko bambaye imyenda isa rwose y'umweru bamwe bambaye n'ingofero ariko abandi ntazo bambaye inyuma yabo hari ikirango kirimo ibara nk'iryo navuze rihura n'impuzankano bambaye ndetse imbere hari amadarapo hasi hari ibitambaro birenze by'umukara ku meza ahari.

Umubyeyi abona ko ari guseka yishimye yambaye umwenda w'umweru yicaye mu ntebe y'umukara imbere ye hari mudasobwa ndetse n'inyuma hari ibitambaro by'umweru bimukingiriza kuba urumuri cyangwa se izuba ryakinjira mu nzu.

Ababyeyi bambaye imipira isa cyangwa se impuzankano zisa icyatsi, ndetse umwe ari kubasomera ku rupapuro, bigaragare ko hari ibintu byanditseho, inyuma y'abo hari intebe nziza zisa umweru, bari bicayeho.

Kuba wagira ikintu ukora, bisaba kwiyemeza no gushora amafaranga menshi. Nk'uko bigaragara rero n'ibirango biriho umugabo witwa Muhayimana Philippe yanditseho tora mu ibara ry'icyatsi. Rero yagerageje kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu ntibyamuhira, twamubwira kuzagaruka ubutaha. Hano rero bigaragara ko yari ari imbere y'itangazamakuru, arimo aragira ibibazo bimwe asubiza.

Umugabo afite indangururamajwi uri hagati, yitwa Mpayimana Philippe yagerageje kwiyamamariza kuba yayobora igihugu cy'u Rwanda ntibyamukundira mande ye hari abagore babiri bamwe bafite impapuro zigaragara ko haba handitseho imigabane n'imigambi yiwe.

Abaturage ubundi nta muntu ujya ubura abamuri inyuma, nkuko bigaragara bano bari kwamamaza uyu muntu wagerageje guhatanira umwanya wo kuyobora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntibyamuhira, gusa ubutaha aje yagerageza amahirwe ye, ashobora kumukundira.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda baramukunda cyane kandi ni indahemuka akora ibikorwa umuntu wese atakwigodera, nguyu rero yambaye imyenda y'imikara, ari gusatira ibyicaro bye, hano ari hagati y'abantu cyangwa se imbaga nyamwinshi kandi baramwishimira bari kumukomera amashyi.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari nawe unakiyoboye muri aka kanya, arimo arasuhuza abaturage cyangwa se abamuri inyuma bayobotse ishyaka rye ryitwa Efuperi inkotanyi, akaba ari naryo ryahagaritse jenoside mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane.

Ishyaka fpr inkotanyi ni ryo riri ku butegetsi riyoboye igihugu cy'u Rwanda rihagarariwe n'umuyobozi wacu Paul Kagame, intwari rwose igomba kuba n'icyitegererezo ku bantu bose cyangwa se ku bayobozi ba Afurika. Aba rero ni abaturage be ayoboye bari kumwishimira.

Ababyeyi babyibushye ubona ko bariye bisa naho bari gukoma amashyi rwose bishimye, bambaye amakarita ariho utugozi tw'ubururu, imbere yabo hateretse ji n'amazi n'amashakoshi, nayo bayarambitse rwose ubona ko ntacyo bikanga.

Ishyaka FPR inkotanyi nk'uko bigaragara muri ibi birango n'amatarapo y'abyo, arimo ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, rihagarariwe na Paul Kagame, akaba ari nawe mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, inyuma ye hari abamurindira umutekano.

Idarapo riranga ishyaka rya efuperi inkotanyi riri mu mabara atatu atandukanye iribanza n'umutuku, umweru uri hagati ubururu akaba ari bwo buhera, urabona ko ririkugurutswa n'umuyaga ikirere nacyo kirasa nabi.

Umukuru w'igihugu yicisha bugufi turabizi, aganira n'urungano rwe cyangwa se n'abantu b'urubyiruko muri rusange, akarubwira ibibazo ibintu runaka narwo rukamubaza akabafukira akabasha kubabwira, nguyu rero arimo aratambuka, hakurya hari ibiti, agaragiwe n'imbaga y'abamukurikiye.

Uwo uri hagati ufite urupapuro yitwa Mpahimana Philippe akaba yagerageje kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu ariko bikarangira atsinzwe, ubwo ubutaha azagerageze wenda azatsindata. Impande ye hari abandi bagabo bamugaragiye basa n'bamuri inyuma.

Ni mu nzu nini cyane yakira abantu benshi nkuko bigaragara, ariko hari bamwe bicaye hasi abandi bari gufotora bamwe rero bafite udukayi n'udukaramu barimo barandika imyanzuro iri guhabwa urubyiruko cyangwa se ibitekerezo biri kuhatangirwa.

Ababyeyi benshi cyane ariko bari kuganira ku bintu runaka bamwe, undi arahagaze bisa naho arimo aratora. Rero ni ngombwa ko nawe wagira umuntu uhitamo ukubereye uzakugeza kuri byinshi nkuko bigaragara hano hari n'abasore bari kubafasha.

Abantu benshi cyane ubona ko bitabiriye inama runaka iri kuhabera ndetse amadarapo ndikubona hano higanjemo umutuku, ubururu ndetse n'umweru, agaragaza ishyaka rya FPR inkotanyi rihagarariwe na Paul Kagame. Hakurya ye nk'uko bigaragara bafunze igipfunsi.

Ikimodoka kinini cyane gisa umweru ariko inyuma cyikoreye bya bintu byikaraga, bisa nk'aho bifasha abantu bafite ibikorwaremezo bijyanye n'ubwubatsi kuba byabahereza sima bigakomeza inzu zabo.

Ibiti turabizi ko na leta ihora ivuga ngo tema kimwe utere bibiri kubera ko bikurura imvura tuzabaru umwuka mubi bikaduhereza neza bifite akamaro kanini mfitiye hakurya muhanda ndetse hari n'ikinyabiziga cyora ry'umuhondo n'umweru gitwaye abantu benshi kibatuyuye mu rugo abandidi bafi iyo wigiye.

iImodoka ivanga sima ahantu bari kubaka ngiyi igeze aho abanyamaguru bambukira muri iyi mirongo y'umweru hakurya hari isaha ndetse nyuma hari akandi gatoya kaje kayikurikiye n'abamotari.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange nk'uko bigaragara, iri mu ibara ry'umweru ndetse hasi hari ak'umuhondo kayiranga, rero nuyibona azahita uyibwira, wayikodesha, ikaba yakuvana hamwe ikujyana ahandi, iri kubisikana n'izindi nyinshi ndetse n'abamotari bahetse abagenzi.

Ikinyabiziga kinini cyane ndetse gitwaye urundi ruhande rw'uburururi inyuma arikokabashyiramo ibintu bitandukanye byo amahanga kiri kubizirikanaana n'ababyeyi babiri ndetse bande hari urutambaro rw'icyatsi bibazitiye hakurya harimo abantu bari gushyira imbwa y'imihondo mu yindi modoka nini.

Abanyonzi bose basabwe kugenda bitonze, kuko abanyegare ntabwo bafatwa nk'abatwazi b'ibinyabiziga, ahubwo ni nk'abagenzi bisanzwe kubera ko nta bwishingizi bagira. Iyo rero bakoze impanuka usanga bigorana kubavuza uyu nawe wambaye agapira k'umweru arimo aragenda agiye guca munsi y'ikiraro.

Akamodoka gatoya gatwara imizigo itari myinshi kuruta iriya ifite ibyuma hejuru ndetse n'iyindi iyiri imbere, bigaragara ko kiriya kirango kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hacishijemo kato, handitse n'inyuguti ya p,hatemerewe guhagarara ibinyabiziga ariko hano hari n'undi muturage wikoreye agafuka bisa n'aho avuye guhaha.

Imodoka zo mu ibara ry'umutuku eshatu ziri mu makona turiya tuntu duteretse hariya dusongoye, ntibakiga rero bise nk'aho bogesherezamo inyuma yazo aho baruhukira bajyenye indabo ndetse n'ibiti.

Inzu iri hakurya, yubakishije amabati, inzugi z'umweru, iteye irangi ry'ubururu. Hakurya hari indi ifite ibirahure nayo iteye nk'iyo, iriho ikirango cyerekana ko hashobora kuba ari ivuriro. Tugaruke inyuma gatoya hari umu motari uri kubisikana n'umunyonzi.

Ikinyabiziga kiriho shitingi hejuru, kiranaziritse ariko inyuma harafunze ntabwo wabona ibirimo, kiri kumanuka ndetse kigiye kubisikana na moto, hakurya hari inzu iriho ikirango kiriho amacupa bigaragara ko bacuruza agasembuye aho hafi.

Imodoka nini cyane ubona ko yikoreye ibintu bibiri, kimwe gisa umweru, ikindi ni icyatsi, igeze mu mirongo icagaguye ndetse bambumukiramo abanyamaguru, hakurya hari amamoto, amatara acanye ndetse anamurika igihe bwije.

Umuhanda ukeye cyane urimo akamodoka gasa ubururu ndetse inyuma hari ibiti, amatara aracana nijoro igihe bwije, asize irangi ry'umweru ndetse n'amazu ahari nkurikije ukuntu bigaragara ni nk'ivuriro.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange irasa umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi, hanze hayo hari umumotari, akayira k'abanyamaguru, inyuma hari abandi benshi, gusa hakurya hari amazu bigaragara ko ari ay'ubucuruzi cyangwa se iy'abakora ibindi bintu.

Ikimodoka kinini mbere kirasa umuhondo, kinyuze ku mubyeyibonako wagirango ngo yari avuye guhaha bitewe n'akaboko ke bisa naho gafite ibintu gateruye. Hakurya hari izindi nyinshi ndetse n'abamotari bari kubisikana nazo. Ibiti biri ku muhanda bikeya.

Burije cyane biragaragara. Umusore wikoreye ikintu tutabasha kumenya icyo ari cyo kimukingirije, ibinyabiziga bicanye amatara, andi ari kumurika nijoro kubera ko ari ku muhanda. Ku musozi hakurya hariho ishyamba bisa naho ikirere kitameze neza.

Kugenda muhanda bisaba kwitonda ndetse n'utwaye ukamwambika ingofero imurinda ibyago ndavuga ku bamotari ,nk'uko uyu nguyu ari kuza hakurya hari ibinyabiziga biri kumanuka ndetse n'ikindi kiri gukata kiza kimusanga ,abaturage nabo bari kwimanukira ,ibiti birahateye amatara amurika nijoro igihe bwije nayo arahari.

Imodoka ndende iriho ibyuma bigiye bihagaze by'umweru, itwara imizigo iremereye cyane, iri kubisikana rero n'abandi ubona ko bigendeye bafite aho bagiye n'abagabo babiri, hakurya hari ibiti byiza cyane.

Ikimodoka kinini cyane kubona ko gihetse uruntu rusa ubururu inyuma kirafunguye, unyujije akajisho munsi yacyo hari imifuka wagirango ngo irimo ibirayi bari gupakurura. Ibiti biripande yacyo ndetse hirya gatoya hari n'amazu afite amabati y'umutuku.

Amabuye meza cyane, akeye atonze umurongo, ubona ko bituma hasa neza, imirongo y'umweru ihatambuka, ubonako abantu ariho bambukira, akazu ko kwicaramo, ikinyabiziga kibatwara mu buryo bwa rusange.

Umumotari ahetse umubyeyi ukenyeye ibitenge by'icyatsi yamwambitse ingofero imurinda ibyago byabakoze impanuka z'ubururu, naho moto yo ikoresha umuriro w'amashanyarazi ni ryo terambere turimo kubera ko izisohora ibyotsi zangizaga ikirere.

Imodoka itwaye ibyuma birebire binakomeye biziritse, hicayeho umusore ubirinze, bidufasha kuba bakora inzugi bagasakara inzu cyangwa se insengero ndetse bari kubisikana n'umumotari utwaye umugenzi hirya gatoya hari imifuka y'imihondo iri mu kindi kinini.

Umuhanda iyo bwije, amatara araka nk'uko ibikorwa remezo by'igihugu cyacu bigenda biyubaka cyangwa se bigakora ibindi bintu. Hano rero hari imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse na benshi; nk'uko bigaragara ni aho zihurira, ushobora kugenda rero ukava mu ntara imwe ujya mu yindi.

Umu motari arimo yirukanka cyane nk'uko bigaragara inyuma ye hari ibindi binyabiziga bimukurikiye bigizwe n'imodoka eshatu, imwe imanuka indi izamuka, hirya gato harihandi banyura hazengurutswe bigaraga ko hari utwatsi twiza cyane dusa neza.

Umunyonzi arimo arasunika igare ririho imifuka ajya kwegererira iriya modoka icanye amatara y'umutuku. Naho motari we ariho arazamuka, inyuma ye gatoya hari umukarani utwaye umufuka w'umweru ku ngorofani, bisa naho ari gushaka amaramuko.

Iyo turi guhumeka umwuka, dusohora umubi, tukinjiza umwiza. Ariko ibyo bigirwamo uruhare n'ibiti. Niyo mpamvu leta ikunda kuvuga ngo tema igiti kimwe, utere bibiri. Hano rero birahari. N'imodoka nini y'umutuku itwara abantu mu buryo bwa rusange.

Hari imodoka zagenewe gutwara imizigo iyingiyi rero nayo yikoreye imbaho imbere harimo ibikarito niba ndi kureba neza hari umusore urimo arayiyobora gusa imbere yayo ho gatoya hari bya bindi binini bitwara ibikomoka kuri peterori n'abamotari benshi bayigaragiye.

Akamoto kariho ibintu by'umweru katwikiriye ku buryo ibyo agutwaje bitanyagirwa, umubyeyi uri ku ruhande ho gatoya afite ibisheke mu ndobo, arimo arabicuruza ndetse hirya hari ibindi birimo binini cyane, bya bindi biva mu Rwanda bikajya hanze.

Igihe rero twagita ikinyabiziga gikoze mu byuma ariko gifite amapine abiri nta moteri kigira kirasunikwa atwaramo rero inzoga nyinshi cyane akazivana ahantu hamwe bazijyana, ahandi kenshi byo byakoreshwaga cyane mu bakarani n'abandi bantu batandukanye bazitwararaga.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwihariye, uyikodesha ku giti cyawe, ikaba yakujyana ahantu runaka, no mu ntara ikakugezayo. Isa umweru, akabara k'umuhandado gaciye hasi nicyo kizabiranga, ndetse hirya hari ibiti, amatara amurika ni'ijoro igihe bwije.

Ubamotariri arimo arirukanka ahetse umugenzi, bambaye ingofero zibarinda byago, inyuma ye hari undi ufite ikoresha amashanyarazi, ndavuga moto, ndetse n'imodoka eshatu z'imikara n'indi y'umweru, imwe iri kwibarukira, amatara amurika n'ijoro igihe bwije ntayar'ahari.

Ikibuga ubona ko ari cyiza cyane giciyemo imirongo y'umweru ikatakase hakurya hari aho abantu bicara ndetse baranahari ariko bari mu mirimo y'amaboko nk'uko bigaragara wagirango bari kukivugurura.

Hari ahantu leta igenda yubakira abaturage kugira ngo bajye baza bicaremo, bidagadure nkuko bigaragara kuri utu dutebe tw'icyatsi twiza cyane, hanyuma yaho gatoya hari aba basore babiri bahicaye.

Hari ibintu byoroshye ubungubu aho wagendaga ukaba wayoba ahantu runaka ku nzu, rero bagiye baziha amazina buri rimwe bayiha ikirango kiriho imibare ndetse akarere irimo n'umurenge kugira ngo ifashe abantu.

Tugerageza twubahiriza amategeko y'umuhanda, nkuko kino kirango kiri kubigaragaza. Duhereye hasi muri metero ijana ushobora guhura naho abanyamaguru bambukira, naho ushobora kubanza kunyura ku muhanda utaringaniye cyangwa se akazamuka nkuko bigaragazwa n'iki kibanziriza icya kabiri.

Ku bantu batwara ibinyabiziga ibi birabareba. Ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo handitsemo ijambo ngo "genda gakeya" n'imodoka ihari ibyerekana. Ubwo rero bivuze ngo nuhagera itonde, niba ukibonye tangira ugabanye umuvuduko.

Abatwara ibinyabiziga byose bibabibareba nk'uko bigaragara hano, rero mu gishusho kiri mu buso bw'umweru harimo imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ariko inyujijemo umukato w'umutuku ngo bigaragare ko i itaba yemerewe kuhahagarara.

Ku bantu batwara ibinyabiziga iki kirango kirabareba gifite umuzinnguruko mpande eshatu harimo ubuso bw'umutuku ndetse umuhondo w'imbere igaragare ko harimo umuntu uri gukora ngo nukiboneza ute mbwira ko mbere hari imirimo yo kwagura umuhanda.

Ikirango kiri mu ibara ry'umweru ndetse harimo imodoka yikorera imizigo y'umukara, umuzenguruko w'umutuku ariko unyujijemo umukato. Ubwo bivuze ngo rero, ntabwo byemerewe kuhatambuka ibyikoreye ibintu biremereye.

Umuntu wese utwara ibinyabiziga ni byiza kumenya ibyapa biri mu muhanda kubera ko biramuyobora, iki rero kiri mu ishushu ya shampandeshatu kigaragaza ko ubuso ari umutuku ndetse n'umweru harimo akantu kazamuka, ubwo biba bivuze ko imbere aho uri bugere hari umuhanda utaringaniye.

Ikirango kireba abantu batwara ibinyabiziga ni iki ngiki, ndetse umuzenguruko ni mpande eshatu umutuku mo imbere ndetse n'umweru, agasaraba karimo gasa umukara, rero birumvikanisha ko ahantu ugiye kugera hari imihanda, umwe urakomeza ibiri igakata iburyo n'ibumoso.

Hari ibintu biba bireba abantu batwara ibinyabiziga n'iki nacyo kirimo, urabona ko gifite umuzenguruko n'impande eshatu ndetse ubuso ni umutuku, harimo ibara ry'umweru mo imbere, rero uba ugomba kucyubahiriza ahantu ugeze niba utwaye ukizi ugahita usobanukirwa ko imbere ushobora guhura n'ibyo bakubwiye hano.

Abatwara ibinyabiziga ubwo bahita babisobanukirwa iyo bageze kuri iki kirarogo; duhere ku cya mbere byombi bifite mpande eshatu, umutuku ndetse n'andi mabarara kigaragaza ko imbere ho gatoya hari umuhanda umucuramye c se umanuka cyane yacyo uri buhore ni aya matara ndanga cyereke cyangwa se akuyobora.

Umuhanda mwiza cyane urimo imirongo idacagaguye, ugavuze ko kunyuranaho bitemewe; uri kurenga umumotari ndetse n'abagenzi bari ku ruhande barimo bari kwiganira abandi bafite iyo berekeje, impande hari ibitoki, insina n'ibindi biti.

Ku bantu batwara ibinyabiziga, hano bahita babyumva rwose ntiriwe nsobanura, ariko aha kiri mu ishusho y'umuhondo, umuzenguruko ni umukara, bigaragare ko nyine nukibona ahantu hose, bazaba bari kukubwira ko, nta guhindukira guhari.

Amategeko y'umuhanda tugomba kuyakurikiza nkuko twabyigishijwe, hano rero hari ikirango kiri mu ishusho ya mpande eshatu, ubuso cyangwa se umuzenguruko ni umutuku hanyuma hivanzemo umuhondo, urimo na we ni umukara, arimo ararunda itaka runaka ubwo byerekana ko nukibona uzajya uhita umenya hari imirimo y'amaboko iri imbere cyangwa se iri gukorwa aho ugiye.

Abatwazi b'ibinyabiziga haba hari ibirango bibagenga ariko mbere y'uko ujya gukora ako kazi mvuze, ubanza gukora isuzuma ryerekana ko waba warize amategeko y'umuhanda. Ubwo rero hano ni ho wigamo kino cyapa kiri mu ishusho y'umutuku ndetse n'umweru, bigaragara ko hari gukorwa imirimo y'umuhanda.

Ikirango kireba abantu batwara ibinyabiziga nk'uko bigaragara cyegereye igikuta cy'amabuye ibyuma by'umweru hejuru n'imbere harimo indabyo z'umuhondo ndetse n'ubusitani inzu irimo nayo ni nziza cyane rero kiranga ko ushobora kugera imbere igahura n'ahantu abanyamaguru bambukira.

Mu gutwara ibinyabiziga ni ngombwa kwitondera ibirango biba biri mu muhanda kubera ko iyo ugiye nabi, ushobora kwangiza ibiri imbere. Rero kino kiri mu ibara ry'umutuku n'ijambo ry'umweru ryanditsemo ngo:" Hagara akanya gatoya, ubanza urebe ibituruka iyo uva n'iyo ujya kugirango ngo ubone gukomeza winjira mu muhanda."

Hari ahantu hagenewe abanyamaguru. Heza cyane kandi haba hakeye nk'utu tubuye tuhashashe, utwatsi turi ku mpande, ikirango kiri mu ibara ry'icyatsi n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hariho umuzenguruko urimo imihanda yerekana ahantu ugiye ndetse n'ibiti bihakikije.

Ibirango biyobora abantu nk'uko kino kiriho imibare, ni byiza cyane ushobora guhamagara umuntu wayimubwira agahita amenya aho agusanga, hakurya yaho hari ikinyabiziga gisa umweru gitwara abantu buryo bwa rusange, gisa naho cyegereye abamotari.

Gutwara ibinyabiziga ni ngombwa kujya wubahiriza ibyapa se cyangwa ibirango biba biri hagati y'umuhanda; nk' uko kino kibyerekana ubuso burasa umuhondo ndetse harimo akantu kerekana ko ugomba gukomeza, na ho akandi karavuga ko aho umuhanda urangirira nta wundi uhari.

Hagomba kuba hariho ibimenyetso cyangwa se ibirango biyobora abatwara ibinyabiziga, rero iki kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse harimo n'utuntu tw'umukara dusa n'utuzengurutse, ibiti bihari n'akandi kagarurarumuri kerekana ko ugomba gukomeza ukahanyura uhazengurutse.

Hari abakire baba baragiye bakiturira ku muhanda, ariko uyu ni igitaka, batinye guterateranya ngo bashyiremo amabuye meza cyane atatuma hanyerera, hateye ibiti hari inyubako nziza cyane zifite amatafari ahiye zinageretse.

Utubuye twiza cyane tuhashashe, bigaragara ko hameze neza. Hakurya hari inzu isakaje ibyatsi, ni zimwe baciye ahari bitaga nyakatsi kubara ko hariho ibiti hejuru n'andi ageretse ndi kubona hirya gatoya, abantu bambaye imyenda y'imyeru bari kugenda binjira.

Imihanda bagiye bayita amazina kugira ngo boroheze abantu kujya babarangira cyangwa seka bakwifashisha ikoranabuhanga ukabandikamo imibare ugahita uyibona ubundi ukayikurikiza, hakurya hari inzu reroro agahandada k'amabuye n'ibiti byiza cyane bikeyebona nako bituma hasa neza.

Amabuye ahashashe ni meza cyane ariko ugize ibyogo ukagwa urumva ko wacika ibisebe, bamwe bari kugenda bisa' bariri gusatira imodoka zabo bari bazihagaritse z'umutuku nkukouko turi kubireba ndetse abandi baba kwigendera n'amaguru.

Umuhanda uzamuka ndetse n'undi uratambika harimo amabuye, ipoto ry'igiti rishinze ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ajya kuri buri nzu, hino ziteye amarangi y'umweru, amabati y'umutuku bigaragare ko uwazubatse yashoye rwose.

Umuhanda mwiza cyane ubona ko ukeye, hateye ibirango ariko ntabwo bigaragara, ni igihimba cyonyine, hakurya hari imodoka y'umukara iri kumanuka iringaniye n'igipangu cy'icyatsi, kiriho utuntu tw'umweru. inzu irimo ifite amabati y'umutuku.

Utwatsi duteye ku ruhande uturabo ndetse n'ibiti, igipangu kirimo inzu zubakishije amategura aya rero ni aya kera cyane niyo abantu bakundaga gukoresha, hakurya hari indi nzu ubona ko ijyanye n'igihe igeretse inshuro nyinshi.

Akayira kanyuramo abantu benshi batandukanye ndetse n'ibinyabiziga nk'uko bigaragara hano birahagaze abamotari n'abandi rero umwari ari kuzamuka akurikiwe n'undi musore hari amazu afite amabati y'umutuku ndetse n'ibiti.

Inzu ndende ibona ko ari nziza cyane, imbere hari ibirahure bihateye akarangi k'umuhondo ndetse n'umutuku, hejuru hari ibigega bitatu by'imikara bibika amazi ndetse bakazayifashisha igihe runaka kigeze.

Inzu ebyiri zifite ibipangu bibiri bitandukanye imbere yabyo hateye indabo z'umutuku ndetse ku muhanda urabonako ari nyabagendwa hatambuka ibinyabiziga n'abantu hakurya hari indi nayo iteye amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru hejuru.

Amategura ni uburyo bwa kera bakoreshaga bari gusakara amazu yabo, ariko arakomera, ntakubeshya rwose n'ubu hari inzu zikiyafite kandi zihagaze neza n'ubwo yacitse, rero iriya yo ifite amabati y'umutuku, na yo urabona ko imeze neza ushobora kuza ukayibamo.

Hano hari utubuye twiza cyane ariko bigaragara ko aho gushyira imodoka huzuye, kuri biriya birango birimo inyuguti ya p, iri mu ruziga rw'umutuku hakanyuramo umurongo ndetse n'umusaza ahagaze hariya, impande y'ikona mu iri mu marembo ho gatoya.

Niba ufite ikintu ushaka gukora, nakugira inama yo kuzajyana ibikorwa byawe ku muhanda kubera ko niho haba hari urujya n'uruza rw'abantu baba babikeneye yewe nuwitambukira ashobora kukibona agahita agihaha atanabiteganyije, aya mazu rero arahari kugira ngo bayayoboke.

Abantu bafite amafaranga biturira ku muhanda nkuko tubizi, hano rero niho, hateye uduti twiza, utubuye turimo, ibipangu bifite amadirishya, amazu na yo afite amabati y'umutuku arageretse, hakurya hari n'indi rwose byegeranye na yo ubona ko imeze neza.

Hari ukuntu ushobora kugenda, ntabwo wabura guhura n'urujya n'uruza rw'abantu, nkuko bigaraga uyu umusore afite inkweto z'umweru, hakurya hari umwari usa nkaho ari kwinjira mu gipangu runaka n'ahantu bakora imfunguzo, abamotari baje bahagaze wagira ngo bagiye nko kurya, bigaragare ko ariho baruhukira, nkuko ziriya zihaparitse ari nyinshi cyangwa se zihahagaze.

Utubuye ushobora guhagarikaho imodoka umwanya munini cyangwa se muremure, munsi y'utwo turabyo ubona tw'umuhondo zirahari ebyiri, amazu ndetse n'igipangu kihazitiye, gifite amadirishya y'umukara.

Nijoro mu muhanda haba hakeye kubera ibikorwaremezo byahakorewe, amatara acanye kugira ngo habone, ndetse nk'uko bigaragara n'ibinyabiziga na byo biba biri kumurika, rero hano hari ikirango kiri mu ry'ubururu n'utuntu tw'umweru tugaragaza ko bahayura bazengurutse munsi y'ikiraro ndetse.

Umuhanda ukeye cyane ariko urimo ibice bibiri nk'uko kamwe kagaragara kateyemo utwatsi abantu barimo barigendera nk'uko bisanzwe harimo ikirango cyo mu ibara ry'ubururu nu tundi tuntu aha twerekana ko aho unyura bahazengukira bakanyura no munsi y'ikiraro hejuru hanyura izindi modoka n'amatara aracanye.

Umuhanda wari gutambuka ababyeyimbaye ibitenge by'imituku unyonza ariko impankira ndetse abandigatwaye ibinyabiziga bari kuzamuka hejuru hari hatambuka izindi zitandukanye ku kiraroibiteteye ku ruhande n'amatara muririka kigu.

Umumotari aricaye bisumari kumanuka gusa ikinyabiziga cyose murabizi ko kigira ibirango, rero cyakimo ibara ry'umuhondo ncyo; hakurya hari uturongo tw'inmweruri ducagaguye bigaragara ko ari aho abanyamaguru bambukira ndetse n'umuhanda uzamuka ariko uri kumanukamo ikindi kinyabiziga.

Umuhanda biragoye ko ushobora kuwugeramo ngo ubure aho abanyamaguru bambukira, harimo imirongo y'umweru ibigaragaza nk'iyingiyi, ndetse hirya yaho gato hari indi y'umuhondo, ikatakataguyemo, ubwo bivuze ko nta kinyabiziga cyemerewe kuhahagarara, hakurya hari umuntu wambaye agashati k'umweru arimo arigendera.

Umunyozi arimo aritambukira azamuka ndetse n'abandi bantu babiri bari guturuka munsi y'ikiraro, hateye utwatsi n'kirarango kiyobora ibinyabiziga hagati kirimo. Hakurya rero hari imodoka zicanye amatara n'andi ari kumurika ku muhanda kubera ko bwije.

Imirongo y'umweru ndetse igaragaza ko wambukira abantu bagenda n'amaguru nk'uko ariya amatara abiranga, iyo yatse icyatsi ubwo aba abahaye uburenganzira bwo gutambuka, naho hirya gatoya hari indi y'umuhondo ikatakataguye bigaragara ko ikinyabiziga kihagaze gihita kibihanizwa n'amategeko.

Abamotari babiri barimo barazamuka, bafite ingofero zibarinda ibyago, baca k'umukecuru wikenyeraye igitenge, inyuma yabo ho gato hari ikinyabiziga cy'ubururu, ndetse n'amatara ari ku murongo asa umweru, acana igihe bwije.

N'iyo bwije uba ubona. Hari ibinyabiziga biri guturuka mu mihanda bicanye amatara ariko naho ubwaho hari ayandi maremare turi kureba atonze n'umurongo, bituma hasa neza amazu na yo yubatse ageretse. Hariho udutako dutandukanye turyoheye amaso ushobora kureba.

Imirongo mubona y'umuhondo icagaguye ndetse inyuranyuranaho hagezemo iriya modoka n'umunyegare ivuga ko tugomba kuhahagarara niba utwara ibinyabiziga ndetse n'abandi bose. Hirya hari umumotari ndetse n'amatara ndanga kerekezo nk'uko bigaragara.

Mu muhanda bisaba kwitonda, mugenzi ukoresha amaguru, tugerageze tujye tubanza turebe hirya no hino ukuntu byifashe, hariya rero hari aho banyura bazengurutse, harimo isaha, ibyatsi bihateye, ibiti by'umutuku, no kubyifashishwa kugira ahantu hase neza.

Ku muhanda haracyeye ndetse harimo n'isuku nta mashashi wahabona cyangwa ibipapuro uducupa biba byagiye bihatakaye, rero hakurya hari imodo irimo irahazenguruka nk'uko bigaragara ndetse n'abamotari bari kumwe nayo.

Mu muhanda ndetse abona ko harimo abamotari babiri bari kubisikana, hari ikirango kirimo utubara tw'umutuku ndetse n'umweruru, utugarurarumuri ndetse hejuru mu biti hari umukingo n'umuntu uri kuhatambuka mu mazu y'umweru.

Mu muhanda harimo imirongo icagaguye y'umweru ndetse hakurya hari abantu bari kwigendera, bigaragare ko hano ari ho abanyamaguru bambukira, ubwo ubaye ubambukanye uba ukoze amakosa akomeye cyane ukanayahanirwa.

Umuhanda ucyeye urimo isuku, nta mashashi wabona, harimo haragendamo umusore ndetse amatara ntabwo acanye ni ku manywa kuko amurika iyo bwije, hakurya hari ahantu banyura bazengurutse nkuko bigaragara kuri kiriya kirango.